Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kohereza, kwakira kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga utavuye aho uri kandi mu buryo bwizewe ukoreshejwe n'ikoranabuhanga.

Inzu y'ubugeni n'ubukorikori ikorerwamo ibikoresho bigiye bitandukanye by'imyambaro ndetse n'imitako, hari inkweto zitondetse ku murongo, zikoreshejwe amasaro, zitatse neza mu buryo bugezweho.

Isoko ricururizwamo imyambaro igiye itandukanye, hariho igishushanyo bambitse ikanzu nziza iri mu ibara ry'umweru, mu rwego rwo kuyamamaza. Hateretsemo kandi n'inkweto.

ko ryihariye ricururizwamo imyambaro ya gakondo yakozwe n'amaboko ndetse n'iyanyujijwe mu ruganda igiye itandukanye ikaba harimo kandi imitako ikozwe mu masaro.

Isoko ricuruza rigakora ndetse rikaba ryanakodesha amamodoka, rikorera mu Mujyi wa Kigali, hari imodoka iri mu ibara ry'umukara, igezweho kandi nziza ifite umuvuduko uhambaye, ikodeshwa miliyoni cumi na zirindwi z'amanyarwanda.

Byifashishwa mu bucuruzi bwateye imbere bugiye butandukanye, ndetse no mu bindi bikorwa bisaba ikoranabuhanga harimo mudasobwa n'ibyuma bikurura amashusho bishyirwa, ho abahurira ahantu mu rwego rw'umutekano.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ikinyobwa gikomoka ku itungo ry'inka kizwi nk'amata, kikaba kiri mu macupa yabugenewe afite ibara ry'umweru bitondetse neza ku murongo.

Cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kubika no gutunganya ikinyobwa gikomoka ku nka cy'amata, kugira ngo agumane ubuziranenge ndetse kikaba gifite ubushobozi bwo kuyakonjesha igihe kinini.

Ikiribwa gikungahaye ku ntungamubiri gikozwe mu ifarini, amagi, amata, amazi, isukari ndetse kikaba gitekeshejwe n'amavuta gicuruzwa ahantu hatandukanye.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bidasembuye, harimo amata, amazi n'ibindi bidasembuye, harimo kandi ibyo kurya bikozwe mu ifarini amagi, amata, amazi ndetse n'isukari.

Umukobwa wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru uri kubuganiza ikinyobwa gikomoka ku itungo ry'inka cy'amatama afite ibikoresho bibiri, ndetse hari undi uri inyuma mu idirishya.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kubika, gutunganya, gutegura no gukonjesha ibinyobwa bigiye bitandukanye, hateretsemo amacupa y'amata abitswe neza mu buryo bw'isuku kandi bwizewe.

Ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bidasembuye, harimo ibiribwa bikoreshwa amafarini, isukari, umunyu, amagi, amata, n'ibindi. Hari kandi icyuma gikonjesha amata.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye, hari ibyokunywa bidasembuye, ndetse n'amata, hahagaze umugore wambaye ikanzu y'umweru.

Ahacururizwa ibinyobwa bidasembuye byiganjemo, amata akorwa n'uruganda rw'inyange, hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutaka w'ikigo gishinzwe itumanaho, umuyoboro mugari wa emutiyene.

Umukobwa ufite ibikoresho bibiri byabugenewe, uri kubuganiza ikinyobwa gikomoka ku itungo ry'inka cy'amata, akabati ari kuyakura mu cyuma cy'ikoranabuhanga gishinzwe kuyakonjesha.

Giteretse ku meza gipaga mu ifarini amagi amata amazi umusemburo ndetse n'isukari, ku ruhande hari icyo kunywa kiri mu gikombe cy'amatama.

Icyemezo gitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, cyemeza ko utakirimo ideni ry'umusoro ndetse kikaba gisabirwa ku rubuga rw'Irembo ukoresheje ikoranabuhanga ritandukanye.

Inzu icururizwamo ibikoresho by'ubugeni ndetse n,ubukorikori, aho babaza intebe mu biti by'imbaho bimeye ndetse ku meza hateretse indabo z'umutako.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ibinini ndetse n'ibito bitwara abantu n'imizigo, ku ruhande hari akayira k'amanyamaguru ndetse n'amazu y'ubucuruzi afite amabara atandukanye.

Inzu y'uruganiriro irimo intebe z'imifariso zibajwe mu mbaho nziza kandi zikomeye, isize amarangi afite ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo n'imeza isa n'intebe.

Icya cy'ubukerarugendo kirimo ibidukikije byamashyamba ndetse n'ubusitani bwindabo hakaba hari kandi amazi yo kogerwamo.

Icyanya nyaburanga kirimo amazi yo kogeramo magari ndetse kumpande hakaba hari imitaka mito iruhukirwamo n'ukeneye kugama izuba ndetse hakaba hari n'ibiti.

Icyanya nyaburanga gisokerwamo n'abaturarwanda ndetse n'abandi bacyerarugendo mu gihe cyo gufata amafunguro, hari udutara twiza turi ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari n'ibidukikije.

Abakozi b'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, ku binyabiziga birimo imodoka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, haje ababagana, baje gusaba ubufasha ndetse imbere y'aba bakozi hari ibikoresho bya mudasobwa.

Inyubako ndende y'igorofa igeretse kenshi ifite ibara ry'umweru, ikoreramo ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye nk'amazu, amamodoka ndetse n'abantu ku giti cyabo.

Cyane ricururizwamo ibiribwa byiganjemo ibitoki, ndetse n'ibirayi bikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye nk'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Gucururirwamo ibiribwa bitandukanye byiganjemo imboga n'imbuto nka karoti, inyanya, intoryi, urusenda ndetse hakaba hari igitoki n'ibishyimbo.

Isoko rigari ricururizwamo inkweto z'abana ndetse n'abagabo n'abagore, ku ruhande hari ibikapu bitwarwa mu mugongo ndetse n'ibindi bitwarwa mu ntoki, bimanitse hejuru ku biti.

Isoko ricururizwamo ibikoresho by'ubugeni n'ubukorikori, byiganjemo ibyakoreshejwe uruhu, inshinge ndetse n'amasaro, byakozwe n'amaboko.

Igorofa rihagazemo urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, hasi hahagaze imodoka y'abashinzwe umutekano ndetse bakaba nabo bahari bafite n'imbunda.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo imyambaro y'abagore y'ibitenge, ifite amabara meza cyane atandukanye harimo: umutuku, umuhondo, n'ayandi.

Urujya n'uruza rw'abaturage bagiye batandukanye bari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru, imbere yabo harimo zirimo ibara ry'umweru ndetse n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye n'inzu nini.

Ibicuruzwa byinshi byiganjemo imyambaro y'abagore, abana, abagabo, ndetse n'ingeri zose zigiye zitandukanye, hari abacuruzi barimo bahamagara abaguzi.

Igishushanyo gishushanyijeho umukecuru n'umwana muto bafite akamwenyu ku maso ndetse kerekana uburyo wagura ifatabuguzi ryo guhamagara kohereza ubutumwa bugufi wifashishije ikoranabuhanga.

Ahatangirwa ubufasha bugiye butandukanye bw'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda, umuyoboro mugari wa MTN, hari ibitambaro biri mu ibara ry'umuhondo n'umukozi wambaye umupira w'umweru.

Akazu gato cyangwa ishami ry'ikigo gishinzwe umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda emutiyne, kakaba kari mu ibara ry'umuhondo, kicayemo umukozi w'icyo kigo, witeguye gutanga ubufasha bugiye butandukanye.

Inzu icururizwamo imyenda y'ubugeni ndetse n'inkweto n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, bigize umuco nyarwanda kandi bikaba bi bitagwa ku giciro gito.

Harimo imyenda y'abagore ndetse n'abakobwa igiye itandukanye myiza kandi igezweho harimo amajipo y'umukara ndetse n'udupira duto duto.

Haha unagurishe wifashishije ikoranabuhanga ibikoresho bigiye bitandukanye, uru rubuga rwitwa mu Rurukari hacururizwaho ibikoresho by'ubwiza bw'abagore ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikinyabiziga cy'abugenewe kigenda gitanga ibyo kurya aho umucuruzi ahura n'umuguzi wifashishije ikoranabuhanga ukaba watumiza ibyo kurya bikakugeraho aho uri.

Umukozi w'ikigo gishinzwe kugemura ibiribwa bihiriye, wambaye impunzankano iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, wicaye ku kinyabiziga cyifashishwa mu kugeza aho ibi byo kurya bigiye.

Igikoresho kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo kiri ku kinyabiziga cyifashishwa mu gutwarwamo ibiribwa babikura ahantu hamwe babishyira ahandi mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Urubuga rucururizwaho bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse n'ibindi bigendanwa mu ntoki, ibikapu byo gutwaramo ndetse n'ibikoresho byo mu nzu ukabikoresha aho umucuruzi yahuriraraho n'umuguzi bakaganira ku giciro.

Urubuga ruhuza umuguzi n'umucuruzi bakaganira ku biciro by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ukaba wakoresha ikoranabuhanga ugatumiza ibyo kurya cyangwa ibindi bikoresho kuri twiga bakabikugezaho mu gihe cyoroshye.

Urubuga rucururizwaho ibintu bigiye bitandukanye, aho umuguzi ahuriraho n'umucuruzi bakaganira ku giciro bikaba byamugeraho mu buryo bworoshye atavuye aho ari kandi ku buntu.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, mu gace ka Kanombe, igurishwa miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'amanyarwanda, ikaba yubatse neza mu buryo busukuye, ikaba ifite n'aho guhagarika imodoka.

Inzu nziza yo kubamo, iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe ifite uburyamo bune ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda agera ku bihumbi magana atanu ku kwezi.

Isoko rya kijyambere rigezweho ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bakoresha bashyiramo ibyo kurya cyangwa bitunganyirizwamo amafunguro atandukanye. Hari ibicurizwa babipanze neza ku murongo.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye biba byanyujijwe mu nganda bigatunganywa neza, bigashyirwa mu bikoresho byabugenewe bifite isuku kandi bibirinda kwangirika bikabikwa igihe kirekire.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere bw'amagorofa igeretse inshuro eshatu, isize amabara meza atandukanye, ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inyubako y'ubukorikori icururizwamo ibikoresho byakozwe n'amaboko y'abantu ndetse n'ubugeni butangaje harimo inkweto zitatseho amasaro.

Bafite mu ntoki amakarita y'abanyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, atangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi, baje kwa muganga kwivuza.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda. Itangwa n'ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda; ndetse ikaba ikoreshwa kwa muganga mu bitaro hose.

Kijyambere ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu ruganda bigafungwa neza, mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika, hakaba hacururizwamo kandi imboga n'imbuto.

Usangamo ibiribwa byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza ndetse bikanatunganywa mu buryo bugezweho bubirinda kwangirika ndetse bufite n'isuku.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa byanyujijwe mu nganda bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe birinda kwangirika kandi bikaramba bikamara igihe kinini nta kibazo bigize.

Rya kijyambere rigezweho ricuruzwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye byanyujijwe mu nganda, hakifashishwa ikoranabuhanga bigafungwa neza mu bikoresho byabugenewe bibirinda kwangirika ndetse bikoranywe isuku.